Iki ni ikigo cy'igihugu cyitwa RSSB gishinzwe ubwiteganyirize aho batwereka gahunda ya Ejo heza yo kujya muri za pansiyo no mu gihe cy'izabukuru.